Amasaha ikigo cy'ubwishingizi radiyanti gikoreraho kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatantu saa moya saa moya za mu igitondo kugeza saa mbiri ndetse no kuwa gatandatu, ndetse no ku umuganda ndetse no ku ibiruhuko rusange.

Hano hari umuhanda w'igice, uhagazemo imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Levini Hiburide, yo ku mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, iri ku isoko, ihagaze amafaranga miliyoni cumi n'eshatu.

Ibi n'ibiciro byuko amafaranga avujwa mubihugu bitandukanye hakaba igihande cyambere kigaragaza iguhugu ayo mafaranga abarizwamo, ahakabiri hagaragaza uko ayomafaranga agurwa, ahagatuta hagaragaza uko ayo mafaranga agurishwa.

Intebe nziza ziri kumwe n'akameza kazo zo mu ruganiriro ndetse zikaba ziteretse muri saro isa neza, ifite n'ibirahure byiza bireba hanze n'amarido asa neza, harimo iry'ubururu n'irijya gusa umweru.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'ubwiteganyirize cya buritamu, gikoreramo hakaba harimo abantu batandukanye, ndetse bari gukoresha za mudasobwa, inyuma yaho hari ibyapa bitandukanye bigaragaza amafoto y'ibihakorerwa ndetse hari n'amatara.

Ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cya emuyueyi, gifite ishami Nyabugogo, hakaba iki ari icyapa kigaragaza aho bakorera ndetse hakaba hariho na nimero za telefoni bababonaho.

Ibi ni ibiro bikoreramo ikigo cy'ubwiteganyirize. Hakaba harimo ururabyo. Ururabyo rukoze mu giti, intebe, mudasobwa ndetse n'abantu bari kuzikoresha, ndetse n'amafoto amanitse ku gikuta.

Iki cyumba nicyo wakwishyura amadorari igihumbi magana atanu ku kwezi muri Kigali mu Rwanda, kikaba giherereye ka cyiru n'umugi wa Kigali, hariho uburiri rwose bushashe neza ndetse n'ibirahure bigaragaza hanze uko hameze.

Inzu nziza ifite amabati meza agezweho ibirahuri byiza, amadirishya meza, gririyage ubu nit tuntu dutangira abantu ngo batagwa ndetse n'igipangu kiza, ikaba iherereye kigali kimironko ikaba iri ku iri gukodeshwa.